Inzu icururizwamo imyambaro y'abagore, harimo amakanzu ndetse n'amashati amanitse, hari akabati gateretseho ivazi iteyemo akarabyo k'icyatsi.

Inzu icururizwamo imyenda ndetse n'inkweto by'abagore, ifite akabati kamanitsemo inkweto zifite taro ndende, inkweto zongera ubwiza kandi zirinda n'ikirenge kwangirika.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ijiri y'umukara, ishati y'amaboko maremare ndetse n'isaha ku kaboko, ahagaze iruhande rw'imodoka isa umukara.

Imodoka y'umukara ifite imyanya ine yo kwicaramo, yakozwe n'uruganda rwa Kiya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, iragurishwa miliyoni cumi na zirindwi.

Imodoka isa n'umukara, ifite imyanya yicarwamo ine, iparitse mu mbuga ishashemo amabuye, iruhande rwayo, hahagaze abagabo babiri, barimo barasuhuzanya, iyi modoka yakozwe n'uruganda rw'abakiya.

Amafaranga y'inoti afite agaciro k'ijana arambitse ku meza hejuru, amafaranga akora imirimo irimo kwishyura ishuri, abikwa muri banki cyangwa n'umuntu ku giti cye umuntu abona amafaranga yakoze imirimo runaka.

Umugabo uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, iruhande rwe hari andi mafaranga afunze imifungo nayo y'inoti kandi, menshi hari kandi n'imashini ya mubazi imufasha kubara atibeshya.

Inyubako irimo ibiro bikorerwamo na banki irimo abantu batonze umurongo barimo baraka serivisi za banki, harimo mudasobwa mu biro ndetse n'abakozi bazikoresha.

Inzu irimo ibiro bya banki ya Kigali birimo umukozi wambaye amadarubindi w'umugabo, imbere ye hari mudasobwa arimo arabara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti yifashishije mubazi.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti yemewe na Banki nkuru y'u Rwanda afite agaciro k'igihumbi. Imbere yayo hariho ingajyi ishushanyije, ndetse hari n'igice gishushanyijeho inyubako y'amateka iherereye i Huye.

Inzu ishashemo amakaro atutseho utujerekani twera dushyirwamo amata iruhande rwatwo hateretse igicuba nacyo gitwarwamo amata.

Inzu icururizwamo, ifite akabati k'umweru gapanzwemo n'ibicuruzwa, birimo imitobe ndetse n'amazi ari mu icupa ribonerana ripfundikije umufuniko w'ubururu.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibyakomokaho hitwa Ikaze hari umuryango ufunguye ugizwe n'igikingi cy'umweru ndetse n'ibyuma bisize amarangi y'umweru.

Uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga rya telefoni ngendanwa, burakwereka ko uhisemo rimwe wakohereza ibihumbi mirongo itandatu n'icyenda n'amafaranga magana atanu n'umunani, y'amanyarwanda.

Urupapuro rw'inyemeza bwishyu y'amafaranga yakuwe kuri konti imwe yoherezwa ku yindi mu buryo bwa manigaramu. Ni urupapuro rwandikishijweho amagambo y'umukara.

Urupapuro rw'umweru rutangwa na banki ya kigali rwerekana konti za banki zoherejweho amafaranga rwandikishijweho amagambo y'umukara.

Urupapuro rw'umweru rufunguye muri mudasobwa rwanditseho ibirango bya Rwanda Revenue Authority ndetse n'ikirango cya repubulika y'u Rwanda, rurerekana ko ikigo cy'ubwishingizi cya Prime kizishyura imisoro ingana n'amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu.

Ibiganza by'umwirabura biri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti. Amafaranga akora imirimo irimo kwishyura ishuri, kwishyura ubwishingizi ndetse n'ibindi byinshi amafaranga akemura.

Intoki ziri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro ka mirongo itanu makumyabiri, icumi, ijana, magana atanu, ndetse n'agaciro ka rimwe.

Umuntu uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti zifite agaciro k'ijana, iruhande rwe hari icyuma cya mubazi gifite amabuto, kifashishwa mu kubara amafaranga.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti zifunze imifungo, afite agaciro k'amayero icumi ndetse n'amadolari icumi. Amafaranga akora imirimo irimo guhahishwa kwishyura ishuri arakorerwa kandi abikwa muri banki.

Abantu babiri barimo barahererekanya amafaranga ari mu bwoko bw'amadolari, n'amafaranga y'inoti afite agaciro k'ijana, iruhande rw'umugore wicaye mu biro hari mubazi ifasha kubona amafaranga.

Umuntu uri kubara amafaranga yifashishije intoki ze, ni amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, afungishije akantu gatuma adatandukana, ni amafaranga menshi.

Umuntu ari kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, akoresheje intoki ze, hirya hari inoti zifunze imifungo, na zo ziteretse ku meza.

Amafaranga y'ubu bwoko bw'inoti arimo arahererekanywa n'abantu babiri, amwe afunze neza afite agaciro k'igihumbi andi ntabwo afunze.

Mu nzu iri kwakamo amatara y'umweru ifite umwanya mugari cyane uteyemo intebe zisa n'umukara, zegamirwa zikozwe n'ibyuma bishinze ku butaka, imbere yaho hari ameza afite amapine.

Abantu bari guhererekanya amafaranga yo mu bwoko bw'inoti zifite agaciro k'amayero makumyabiri ndetse n'amadolari afite agaciro k'ijana, aya mafaranga akaba ari guhererekanywa ku meza afite ikirahure hejuru kibonerana gitandukanya umuntu uri mu biro ndetse n'umuntu uri hasi.

Hanze hari urubaraza rudatwikiriye, hateretsemo intebe, ndetse n'ameza asa n'umweru hari intebe zifite imisego zegamirwa ndetse n'udutebe tutegamirwa.

Inzu y'amagorofa ifite ubusitani hanze buteyemo intebe z'umweru n'ameza ndetse hari n'ahatwikirije umutaka iruhande rwaho hari pisine.

Mu nzu ifite aho bakirira abantu, hahagaze umugabo wambaye ikoti, uri gukoresha mudasobwa, arimo aramwenyura, hejuru hari kwaka amatara.

Inzu y'amagorofa, ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, ifite imbuga ikozemo pisine, irimo amazi y'ubururu, iruhande rwaho, hari udutebe dutwikirijwe imitaka.

Icyumba gikorerwamo inama, kirimo intebe zitondetse neza ku murongo, kirimo n'amatara, imbere ndetse no ku ruhande hari ibibaho by'umweru bibasha kwerekana amashusho iyo bicometswe kuri mudasobwa.

Inzu y'amagorofa, iri kwakamo amatara y'umuhondo, ni nijoro, hari ubusitani buteyemo indabo ndetse hashinze n'imitaka ndetse harimo na pisine izengurutswe n'utuzitiro tw'ibyuma.

Hanze izuba riri kuva, hari ivase iteretse iruhande rw'inzu irimo indabyo, ndetse imbere yayo hari n'indi vase iteye nk'umuvure nayo irimo indabyo.

Inzu ishashemo amakaro, iteretsemo akabati, gateretseho indabyo z'amabara, hejuru hari kwaka itara ry'ibara ry'umweru, ndetse imbere y'aho binjirira hari icyapa cyanditseho Zayoni.

Mu nzu irimo ibiro byicawemo n'abakozi babiri barimo umugabo ndetse n'umugore uri gukoresha mudasobwa, imbere yabo hicaye umugore ndetse n'umugabo baje gushaka serivisi.

Mu nzu imbere harimo akabati, agatebe ko kwicaraho gasa n'umukara ishashemo amakaro inkuta zayo zisize amarangi y'umweru hanze haparitse imodoka y'umweru.

Urupapuro rutangwaho imyirondoro y'umuntu ushaka kwaka inguzanyo muri banki ya Access, hariho aho umuntu ashyira amazina ye, aho ashyira umukono we, aho ashyira indangamuntu ye nimero za telefoni ndetse n'ibindi byinshi.

Inzu ikorerwamo na Banki ya Kopedu ishami rya Kimironko ifite inzugi zisa n'ubururu ndetse n'umweru imbere yaho hari imbuga iparikwamo imodoka.

Hanze abantu bari gutambuka hari isoko ritwikirije amabati ryubakishijwe n'ibyuma, impande yaryo hari aho imodoka ziparika.

Impande y'inzu y'amagorofa, hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka nyinshi ndetse hari n'abantu bari gutambuka hagati yazo.

Isoko ririmo umucuruzi w'umugabo ndetse n'umugore ufite amaherena usutse imisatsi ifungiye inyuma bari gucuruza imbuto zirimo amacunga ndetse n'izindi.

Isoko ritwikirijwe n'amabati ndetse rifite n'inkingi z'ibyuma harimo abacuruzi b'abagabo ndetse n'umugore bari gucuruza ibirimo imboga z'inyanya, imiteja ndetse n'intoryi.

Hanze hari isoko rikorerwamo n'abagore bacuruza imboga ndetse n'itsenda, imbere yabo hari inzu icururizwamo ifite imiryango isa n'ubururu.

Inkoko iriho ibishyimbo bisa n'umutuku, byo mu bwoko bw'ibishyimbo birebire. Ibishyimbo biraribwa bigira intungamubiri ku ubiriye, ndetse bitera imbaraga.

Mu isoko hahagazemo umugore uri gukoresha telefoni ngendanwa, imbere ye hari ibicuruzwa birimo imitako ndetse inyuma ye naho hari ibicuruzwa birimo imitako y'inkoko ndetse n'ibindi.

Ni isoko ririmo abacuruzi n'abaguzi, ricururizwamo imbuto zirimo amacunga ndetse n'imyambaro irimo ingofero n'amajipo, iruhande rwabo hari ibase isa n'umutuku.

Mu nyubako ifite ibiro bikorerwamo n' ikigo cy'ubucuruzi bw'itumanaho ry'amatelefoni cya Emutiyeni kirimo abantu baje gushaka serivisi za emutiyeni.

Hanze hahagaze umusore wambaye ijire y'umuhondo, iriho ibirango bya MTN, ari guha serivisi umugabo wambaye umupira w'umutuku, inyuma yabo hashinze umutaka wa MTN.

Umugore wambaye umupira usa n'umuhondo uriho ibirango bya MTN, imbere ye hahagaze umusore wambaye umupira w'umukara, ari gukoresha terefone ngendanwa.

Inzu irimo ibiro bikorerwamo na mtn ihagazemo abakozi ba mtn bambaye imipira y'amaboko magufi isa n'umweru iriho ibirango bya mtn.

Inzu itatse ibyapa bya MTN mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara, ni hanze izuba riri kuva, hirya y'iyi nzu hateye ibiti bifite amashami n'amababi y'icyatsi.

Inzu ifite ibirango bya MTN n'amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'ubururu, iruhande rwayo haratambuka abagabo ndetse n'abagore. Ni hanze izuba riri kuva.

Inzu ifite ubwiherero bugezweho, hasi hashashe amakaro y'umweru, ifite n'ubwogero bufite amazi aturuka hejuru, ifite kandi n'inkuta zisize amarange y'umweru.

Munzu hahagazemo umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro, imbere ye haratambuka umugore wambaye ikanzu, iyi nzu iri kwakamo amatara ndetse ifite inkuta z'umweru.

Inzu irimo icyumba, kirimo uburiri bushashe neza, bushasheho amashuka y'umweru harimo uturarabyo, ndetse hari n'umusego wo kwisegura igihe umuntu aryamye. Aha umuntu yahakodesha amadorari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi. Ni muri Kigali.

Umugore uri guhahira mu isoko rigezweho, afite telefoni mu ntoki arimo arakanda imibare mu cyuma gikoreshwa mu kwishyura gikoresheje ikoranabuhanga mu masoko ya gisirimu.

Mu isoko ririmo abagabo n'abagore .Harimo ibicuruzwa byinshi bimwe bipanze mu tubati. Ibindi biteretse hejuru ku kameza .Abaguzi bari guciririganya n'abacuruzi.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye irimo utubati tumanitsemo ibyo bicuruzwa, imbere yatwo hari udupapuro tw'umweru twandikishijeho amagambo y'umukara agaragaza ibiciro ndetse n'ubusobanuro bw'ibicuruzwa.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, birimo inzoga, amavuta yo guteka ndetse n'ibindi byinshi, hari kwakamo amatara y'umweru, hahagazemo umuguzi w'umugabo wambaye imyambaro y'umukara.

Inzu ikinirwamo imikino yerekana amashusho, harimo abana ndetse n'ababyeyi babo, barimo barakina iyo mikino, imikino iruhura mu mutwe, itoza abana gutekereza vuba, kandi bagakemura ibibazo neza.

Isoko ricururizwamo imyambaro, irimo iy'abagore harimo abaguzi barimo umugore wambaye imyenda y'umukara ufite imisatsi miremire isutse ijya inyuma.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, iruhande rwayo hari amatara yo ku muhanda yaka igihe izuba ryarenze, hepfo yayo hari indi kaburimbo iri kugendwamo n'imodoka.

Ikimenyetso gishushanyishije amabara y'icyatsi cyanditseho amagambo y'icyatsi ni ikimenyetso cy'ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli, uyifite ntarembera mu nzu.

Abagabo babiri bateruye urupapuro ruzigamiye amafaranga muri banki bari kwifotoza baruteruye inyuma yabo hari ibirango by'ikigo cy'ubwiteganyirize cya rssb.

Abagabo n'abagore bahagaze hanze, bahagararanye n'abantu bakorera kompanyi ya keti eni, barimo barifotoza bose bari kureba imbere.

Umugore wicaye ku ntebe ikozwe mu biti, hanze afashe amakarita y'ubwisungane mu kwivuza abiri, asa n'ubururu bweruye, ari kwifotoza.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwisungane mu kwivuza, ndetse n'ubundi bwishingizi, cya RSSB, cyanditsemo ijambo RSSB mu magambo y'umweru, mu buso bw'ubururu.

Umuntu ufashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweri ayifashe mu ntoki ni hanze, imbere ye hari urugi rufunguye rusize irange ry'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ufite ikora uriho ibirango bya Rssb, afite indangururamajwi mu ntoki ze ari kuyivugiramo, imbere ye hari agacupa karimo amazi yo kunywa.

Mituweli ubwisungane mu kwivuza, mituweli ni ikarita igaragaza ko umuntu ashinganye, ko yakwivuza indwara nta kibazo, kwa muganga iyi karita uyifite ntarembera mu rugo.

Umugabo wambaye ikoti ahagararanye n'umugore uri kumwenyura usutse imisatsi nawe yambaye imyambaro y'umukara ari kumuhereza igihembo inyuma yabo hari ibirango bya rssb.

Inzu irimo isoko ricuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye, biri mu tubati tugiye dufite udupapuro tw'umweru twometse imbere ya buri gicuruzwa tubisobanura kandi twerekana n'ibiciro byabyo.

Isoko riri mu nzu iri kwaka amatara y'umweru ifite utubati dupanzemo ibicuruzwa birimo amasabune y'isuku y'amazi n'i isoko rya sawa siti.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ifite utubati dupanzemo ibicuruzwa birimo amata y'ifu ya nido ndetse n'ibindi byinshi, imbere y'ibicuruzwa hari udupapuro tw'umweru twerekana ibiciro by'ibicuruzwa.

Isoko rihahirwamo ibicuruzwa bitandukanye, biri mu tubati tugiye dufite amagambo yanditse imbere ya buri gicuruzwa, twanditse ku dupapuro twometseho k'utwo tubati.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ifite utubati dutondetsemo ibicuruzwa byinshi hashashemo amakaro ndetse hejuru hari kwaka amatara y'umweru.

Inzu icururizwamo ishashemo amakaro ifitemo utubati dupanzemo ibicuruzwa imbere yabyo ari udupapuro twanditseho ibiciro, ahagazwemo n'umugore uri guhaha.

Umugore ucururiza mu nzu arimo aratanga inyanya azihereza umuguzi w'umugabo waje mu isoko acururizamo, umugabo imbere ye hari akabati.

Umugore wambaye ikabutura, yambaye n'inkweto zifunze, ari mu isoko ricururizwamo ibijyanye n'imboga. Hari akabati kapanzemo imboga zirimo amashu, ndetse n'amakaroti, n'izindi mboga nyinshi imbere yaho, hari udupapuro tw'umuhondo tugaragaza ibiciro.